Umukobwa wari waje kuvoma amazi yitwaje ijerekani ku mugezi rusange aho yari arimo avoma ndetse kandi abantu bari baje kwishimira kuba begerejwe amazi meza.

Umukobwa wambaye ijipo akaba yari arimo avoma amazi mabi mu kidendezi akoresheje ijerekani, ndetse hakaba hari n'umuntu wari uri kogereza igare inyuma mw'ayo mazi yari arimo avoma.

Umwana urimo uywa amazi ku ivomo rusange akoresheje intoki, ndetse akaba yishimiye kuba arimo abona ano mazi bitewe n'uko, aba yabonye amazi meza kandi hafi amwegereye bitamugoye ajya kuyashaka kure.

Umukobwa wambaye agapira, wari waje kuvoma amazi akoresheje amajerekani ku ivomo rusange ndetse bakaba bari bishimiye ko babasha kubona amazi meza hafi kandi mu buryo buboroheye.

Abana bari bagiye kuvoma amazi ku ivomo rusange, bitwaje utobido, utujerekani ndetse n'ibidomoro, kugira ngo babashe kubitwaramo ayo mazi, kandi ndetse bakaba baregerejwe amavomo rusange, muri gahunda ya Leta yo kugeza amazi meza ku baturage bayo.

Umuganga w'inzobere wambaye agashati k'umweru k'akazi ndetse n'agapfukantoki, arimo akingira umwana w'umukobwa mutoya wiga mu mashuri abanza urukingo tutazi ubwoko bwarwo.

Abamama bakenyeye ibitenge ndetse bambaye n'amajiri, aho bari barimo bahugurwa ku buryo bakita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abana babo, kugira ngo babashe kwirinda indwara kandi bagire ubuzima bwiza.

Umwana wambaye agakabutura k'umutuku na bodaboda ndetse n'ishati ya gisirikare akaba yararimo anywa amazi kuri robine yo ku ivomo rusange akoresheje intoki ndetse amazi yarari kumucika akaba yarari kugwa mu ndobo iteretse munsi ye.

Abashinzwe kwita ku buzima, bambaye amataburiya n'amakarita abaranga, bari kumwe n'umugabo wambaye ikote ry'umukara, bigaragara ko basohotse bari hanze y'aho serivisi zo kwita ku buzima zitangirwa.

Umumama wambaye igitenge ndetse n'agakote k'umukara, aho yari azanye umwana we nyuma yo kubyara kugira ngo abashe kumukingiza, barebe niba na n'ikindi kibazo yaba yarahuye na cyo nyuma yo kuruhuka.

Umuganga w'inzobere wambaye itaburiya y'umweru ndetse afite n'udupfukantoki, aho yari arimo asuzuma umurwayi we ndetse anamupima ko nta burwayi bundi yaba afite muri gahunda ya leta yo kwegereza ubuvuzi abaturage.

Umu mama w'umukecuru, urimo uvomera amazi mu ijerekani, ku ruhande rw'iburyo ndetse hari n'undi mu papa urimo uvoma amazi nawe mu ijerekani, ku ruhande rw'ibumoso, hagati harimo umu mama wambaye ijiri y'akazi, arimo abereka uburyo bavoma.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba yari arimo apima umurwayi we umuvuduko w'amaraso akoresheje agakoresho kabigenewe, bikaba biri muri gahunda ya Leta yo kwegereza ubuvuzi abaturage.

Umugore uhetse umwana mu mugongo, ndetse ukennyeye n'ibitenge wari waje kuvoma amazi ku ivomo rusange, ndetse akaba arimo yoza ibyo agiye kuyatwaramo kugira ngo yirinde umwanda.

Umumama wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga aho yari arimo yandika mu gitabo umupapa bicaranye ndetse bakaba bafite gahunda yo kurwanya indwara ya sida kubera yuko iri mu bikomeje kwangiza ubuzima bwa benshi.

Mu Rwanda hateraniye inama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa cumi na kumwe kuva ku itariki ebyiri kugera kuri eshatu aho yari irimo yiga ku kibazo cy'ibura ry'amafaranga mu rugaga rw'ubuzima ndetse kandi bivugwa ko ayo mafaranga akenewe cyane kugira ngo ubuvuzi bukomeze gutera imbere.

Inama yahuje abantu bari mu byiciro bitandukanye higanjemo abapapa ndetse n'abamama, aho bigaga ku buryo bateza imbere imibereho y'abaturage binyuze mu gukemura ikibazo cy'ubuvuzi kugira ngo butere imbere.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo abagabo n'abagore aho bari bari kwigira hamwe uburyo bakoresha kugira ngo bakumire ndetse barwanye ugutwita kw'abangavu kuko biri mu bibazo bihangayikishije igihugu muri rusange.

Umwana w'umukobwa urimo usukira uwundi mwana amazi mu ntoki kugira ngo abashe gukaraba kandi ndetse ubu ngubu akaba afite isabune mu ntoki ari gukoresha kugira ngo abashe kwica imyanda iri mu ntoki ze.

Abaturage bo mu bice bitandukanye by'igihugu, bakaba bari bahuriye hamwe muri gahunda ya Leta, aho bari bahuye kugira ngo babapime ndetse banabasuzume indwara zigiye zitandukanye.

Umukobwa wambaye imyenda y'ibitenge aho yari arimo akaraba amazi meza akoresheje amazi ndetse n'isabune kugira ngo abashe kwirinda imyanda ndetse no kugira ngo bimufashe kugira isuku.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, bakaba bari bahuriye mu nzu nini iberamo inama, aho bari barimo bigira hamwe uburyo bateza imbere ubuzima bw'abaturage muri rusange bateza imbere ubuvuzi.

Umwana wari agiye kuvoma amazi ku ivomo rusange, yitwaje akabido, aho yari yishimiye kuba arimo abona amazi meza, kandi hafi bitewe na gahunda ya leta yo kwegereza abaturage amazi.

Umuganga w'inzobere wambaye itaburiya y'umweru, akaba yari arimo aha imiti akana gateruwe na mama wako kugira ngo agafashe gakire uburwayi kari karwaye kandi ndetse akaba yari afashe ku munwa kugira ngo akana kataza kwanga imiti.

Abaganga bari mu cyumba cy'ibagiro bambaye udupfukamunwa nutwo mu mutwe ndetse n'imyenda yabugenewe yo kubaga aho bari barimo bafasha umuganga warurimo abaga umurwayi wari uryamye ku gatanda.

Umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana uzwi nka Israel MBONYI, aho yari yambaye agapira ka oranje, arimo aha umwana amata yo kunywa, ateruwe na mama we.

Umuntu urimo ukaraba intoki akoresheje amazi meza ava mu ivomo kugira ngo abashe kugirira isuku intoki ze, kandi bikaba biri muri gahunda ya leta yo gukumira umwanda.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye Higanjemo abamama ndetse n'abakobwa, aho barimo baganirizwa ku buryo bagomba kwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abana babo, kugirango birinde iyi ndwara.

Umuganga w'inzobere wambaye agakoresho gapima ko umutima utera, akaba ndetse yari yambaye n'itaburiya y'umweru y'akazi, akaba yari arimo asuzuma umuvuduko w'umurwayi wari uryamye ku gatanda, ndetse anareba ko nta kindi kibazo yaba afite mu mubiri we.

Inama yari yahuje abantu bo mu ngeri zitandukanye higanjemo abapapa ndetse n'abamama aho bari bafite amazi yo kunywa ndetse bari kwigira hamwe uburyo bateza imbere ubuzima bw'abaturage muri rusange.

Umuganga wambaye umwenda w'akazi w’itaburiya y'umweru ndetse afite n'agakayi mu ntoki n'indangururamajwi aho yari arimo yigisha abaturage bicaye mw’ihema iburyo bakita ku buzima bwabo.

Umumama ukenyeye igitenge, ndetse ufite n'impetso uhetse umwana mu mugongo, aho yari ari kumwe n'abandi bana bishimye, arimo abaganiriza ndetse anababwira uburyo bakita ku buzima bwabo.

Inama yari yahuje abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo abagabo, abagore ndetse n'abazungu aho bari bari kwigira hamwe ku buryo bateza imbere imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane bashyize imbere guteza imbere ubuvuzi.

Umumama urimo uvoma amazi ku ivomo rusange akoresheje indobo, ndetse anateruye akana ke k'agahinja gatoya, kandi akaba yari yishimiye gahunda yo kuba baregerejwe amazi meza mu mavomo rusange.

Umumama wambaye itaburiya y'abajyanama b'ubuzima, aho yarimo asobanurira umugabo n'umugore mu uburyo bwiza bakoresha bita ku mwana batwite ndetse anababwira ibimenyetso mpuruza umubyeyi agaragaza akihutira kwa muganga.

Ibitaro biherereye mu Mujyi wa Kigali mu Karere ka Gasabo ahazwi nk'i Ndera, bikaba ari bimwe mu bitaro byita ku babana n'ubumuga bwo mu mutwe, ndetse kandi bikaba byarafashije n'abantu benshi gukira iki kibazo.

Gahunda yo guteza imbere ubuzima bwiza bwo mu mutwe bw'abana ndetse n'abantu bakuze, higanjemo ingimbi n'abangavu, ikaba ari imwe muri gahunda yashyizweho n'ikigo cyitwa Global Health kugira ngo kibashe gukurikirana ubuzima bwo mu mutwe mu gihe cya Coronavirus.

Umumama wambaye ibitenge ndetse ufite n'imisatsi miremire, aho yari arimo areba nk'ufite ikibazo kimuremereye yaburiye igisubizo kandi bikaba bisa nk'aho ubuzima bwe ko mu mutwe budahagaze neza.

ISANGE One Stop Center ni ikigo cyashyizweho ku bufatanye na polisi y'igihugu y'Urwanda ndetse na minisiteri ishinzwe ubuzima mu Rwanda, kugira ngo babashe gufasha abantu bahuye n'ihohoterwa.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye higanjemo abakobwa, ndetse n'abahungu, aho bari basuwe n'abashyitsi, harimo ab'abazungu ndetse n'abandi b'abanyarwanda, barimo bigira hamwe, ku buryo bateza imbere ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu.

Umupapa wambaye ishati ndetse n'umumama, bakaba bari batwaye umwana mo hagati bamushyigikiye ndetse bikaba bisa nk'aho uyu mwana yari afite ikibazo ku buryo atashoboraga kwigenza ndetse n'ubwonko bwe busa nk'aho butari burimo bukora neza.

Umusore wisize ibintu by'umukara mu isura, wikoreye imifuka ndetse wambaye imyenda icitse ndetse n'inkweto zatobaguritse, bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe kandi akaba arimo areba nk'udafite iyo ajya.

Umumama wambaye umupira w'umweru akaba yifashe ku mutwe aho bisa nkaho yari afite ibintu byinshi ari gutekereza ndetse yaburiye ibisubizo kandi ubuzima bwe bwo mu mutwe butameze neza.

Abantu bari mu kigero gitandukanye higanjemo abana abamama ndetse n'abapapa aho bafite utudarapo tw'igihugu cy'urwanda mu maboko yabo barimo batuzunguza ndetse bishimiye no kuba ari abanyarwanda.

Umu mama wikoreye ibyatsi biri mu gitebo ndetse afite n'isuka bisa nkaho yari avuye mu murima guhinga arimo arebana ibyishimo byinshi ndetse ubona ko nta kibazo afite.

Mu Rwanda habaye igikorwa cy'urugendo, aho ku bufatanye na polisi ndetse n'abaturage, bakoze ubukangurambaga mu muhanda, aho bagendaga bafite insanganyamatsiko yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi bibutsa buri umuntu wese wo kurwanya ihohoterwa ari inshingano ze.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara ndetse wambaye n'agasengeri k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, aho yarimo yishimye ndetse aseka cyane, nyuma yo kuba yaramaze kumenya uburyo wakwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umumama wambaye imyenda y’umutuku ufite umusatsi w’umukara ndetse urimo guseka wishimye kubera ko ntakibazo yari afite kandi urebye n’ubuzima bwe bwo mumutwe bukaba bwari buhagaze neza.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye biganjemo abagabo n'abagore, aho bari barimo bigira hamwe uburyo bateza imbere ubuzima bwo mu mutwe, ndetse kandi banarebera hamwe uburyo bakemura ibibazo byugarije urubyiruko muri rusange.

Bimwe mu bikoresho biherereye mu bitaro aho abarwayi bakirirwa, hakaba harimo intebe zo kwicaraho, amatara ndetse n'ibyuma bibasha kumurika umurwayi kugira ngo barebe ko nta kibazo yaba afite.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru, ndetse ufite n'imisatsi y'umukara, aho yari afatishije ukuboko kwe kw'iburyo, uburoso bw'amenyo, ndetse afite n'umuti w'amenyo, mu kuboko kwe kw'iburyo, aho yari arimo akora isuku yo mu kanwa.

Umuganga w'inzobere wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa, udupfukantoki ndetse n'amataratara amurika, aho yari arimo asuzuma umurwayi uryamye ku gatanda areba mu kanwa nimba nta ndwara yaba irimo.

Abamama ndetse n'abana bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi yanditseho tubiteho, aho bari barimo bigishwa uburyo bwiza bwo gusukura amenyo ukoresheje korogate ndetse n'amazi n'uburoso bw'amenyo.

Bimwe mu biro mu bitaro bikoreshwa kugira basuzume abarwayi bikaba birimo intebe nziza aho umurwayi bashobora kumuha pozisiyo bashaka kandi hakaba hari n'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bifasha abaganga gusuzuma abarwayi babo.

Umumama wambaye agasengeri k'umweru ndetse ufite n'imisatsi y'umukara uri kumwe n'umukobwa we wambaye agasengeri k'umweru nawe ufite imisatsi y'umukara arimo amwigisha uburyo azajya akoresha uburoso ndetse n'umuti w'amenyo yoza mu kanwa.

Umugabo ufite akadodo arimo akuba mu ryinyo kugira ngo abashe gukuramo imyanda yaba yasigayemo ndetse bikaba biri muri bimwe mu bifasha abantu kugira ubuzima bwiza bw’amenyo yabo kubera amenyo y’isuku ntabwo arwara cyane.

Muganga w'inzobere wo mu kanwa, wari wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati yagenewe akazi ndetse n'udupfukantoki, aho yari afashe udukoresho akoresha asuzuma umurwayi ndetse uwarwaye akaba yari aryamye ku gatanda, arimo amurebera mu kanwa, uburwayi afite.

Abaganga b'inzobere batandukanye, barimo bakira abarwayi babo, babapima ko nta kibazo cyo mu kanwa bafite, aho ari gahunda ya leta yari yabaye, yitwa tubiteho, kugira ngo basuzume ubuzima bwo mu kanwa bw'abaturage batandukanye.

Abana abakiri batoya bo mu mashuri abanza, aho bari barimo boza amenyo bakoresheje uburoso bw'amenyo, umuti w'amenyo wabigenewe ndetse n'amazi meza kugira ngo bunyuguze mu kanwa.

Kimwe mu byumba byo kwa muganga gifasha abarwayi kwakirwamo kikaba gifitemo intebe nziza zijyanye n'igihe ndetse n'ibyuma by'iterambere aho muganga ashobora kubikoresha kugira ngo abashe gusuzuma umurwayi neza.

Abasaza bicaye ku ntebe hanze, barimo baganira ndetse bafite n'inkoni mu ntoki zabo, barimo biga ndetse n'uburyo bakita ku buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo bakomeze kwirinda indwara.

Umuganga w'inzobere wambaye imyenda yabugenewe, aho arimo arasobanurira umusaza ufite imvi mu bwanwa, n'uburyo yakwita ku buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo abashe kwirinda indwara zigiye zinyuranye.

Umurwayi uri gukora imyitozo yo kugerageza kuba yakongera kugenda neza, afashe ku byuma bibiri biteganye n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, umuri inyuma uri gukurikirana uko imyitozo y'umurwayi iri kugenda.

Umukobwa wambaye imyenda yabigenewe, ndetse ufite n'igikoresho gipima uko umutima utera ku ijosi, aho yari arimo aganiriza umumama, wambaye agatambaro k'umukara mu mutwe ndetse ufite n'amataratara uburyo yakita ku buzima bwe.

Umumama wambaye imyenda yabugenewe, usa nk nkaho ari umuganga ndetse wambaye n'akuma kumva uko mutima utera mu ijosi, arimo yereka umusaza ukuze uburyo bakoresha icyuma cyo guterura akimufatishije mu kaboko ke k'iburyo.

Umukecuru ufite imvi mu mutwe ndetse wambaye agashati ari kumwe n'undi mukecuru nawe wambaye agapira k'umweru, arimo amwigisha uburyo bategura indyo yuzuye kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umuganga w'inzobere wari urimo yita ku musaza ufite imvi wicaye mu kagare aho yari arimo amugororera imitsi ndetse n'imikaya ku kaboko ke k'iburyo ndetse anamuganiriza kugira ngo yite ku buzima bwe bwo mu mutwe.

Umusaza ufite imvi uri kumwe n'undi mukecuru nawe ufite imvi aho bari barimo baganira ndetse uwo mukecuru arimo yereka umusaza uburyo agomba gukoresha kugira ngo abashe gufata imiti neza.

Umutoza wabigize umwuga arimo atoza umusaza ndetse anamumenyereza uburyo bwo kugenda kugira ngo abashe kunanura imitsi ndetse n'imikaya ye kandi anamusobanurira uburyo yateza imbere ubuzima bwe.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'akuma agapima uko umutima utera kw'ijosi arimo aha umukecuru ukoze umuti aho yari arimo amwereka uburyo banywa ikinini ndetse ku ruhande afite n'amazi mu kirahuri yo kukinywesha.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye higanjemo abapapa ndetse n'abasaza, aho bari bicaye hamwe barimo baganira ndetse banigira hamwe kuboha agaseke, kandi baganira n'uburyo bateza imbere ubuzima bwabo.

Umumama ukuze ufite imvi ku mutwe ndetse bambaye n'agapira kajya gusa umweru akaba yarari kumwe n'undi mu mumama ukuze ufite imisatsi y'umukara aho yari arimo amwigisha uburyo yajya ategura imboga ndetse n'imbuto kugira ngo arye indyo yuzuye.

Muganga w'inzobere wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba afite akaboko k'ibumoso k'umurwayi we, akaba ari umusaza ufite uruhara ndetse n'ubwanwa buririmo imvi wambaye ishati ijya gusa kakiyi aho arimo amupimira, niba nta muvuduko w'amaraso afite.

Umukecuru urimo aganira n'umusaza, aho yari arimo amuha amazi yo kunywa ndetse anamusobanurira uburyo yakwita ku buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umupapa ukuze wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ikoboyi akaba yari ari kumwe n'umwana wambaye umupira w'uburu na we ndetse n'ikoboyi aho bari barimo bakina umukino kumashini bakoresheje udukoresho twabugenewe bari bafite mu ntoki.

Umusaza ufite imvi ku mutwe, wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro, aho yari ari kumwe n'abana babiri ndetse barimo barya utuntu kandi barimo baganira, ababwira uburyo bwiza bakwiyitaho.

Umumama wambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri ari kumwe n'umukobwa barimo bakora imyitozo aho bari bayishimiye ndetse barimo bagenda gake gake bananura imitsi ndetse n'imikaya yo mu mubiri wabo

Umumama wambaye umupira w'umweru uri kumwe n'umwana ufite imisatsi y’umukara ndetse hamwe n'agakanzu k'umweru karimo utudomo tw'umukara aho arimo akigisha gukina imikino y'amahurizo kugirango kabashe kugira ubwonko bukora neza.

Muganga w'inzobere arimo yigisha umusaza ukuze uburyo yakoresha akagare arimo agenda ndetse ananura imitsi aho yari amufashe ku rutugu ndetse anamwerekera uburyo bagenda bimura akaboko ndetse n'akaguru.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi ndetse ufite n'agakoresho gapima uk'umutima utera mu matwi akaba yararimo apima umurwayi wicaye mu gatebe ko kugenderaho aho yari yamushyizeho agakoresho gapima uko amaraso agenda ku kaboko ke k'iburyo ndetse arimo kumupimira uko umuvuduko w'amaraso uko uhagaze.

umuganga w'inzobere uri kumwe n'umukecuru ufite imvi aho arimo amwitaho ndetse anamuganiriza kugira ngo agumye kugira ubuzima bwiza kubera ko kuganira biri mubintu bifasha abantu bakuze kubaho neza.

umusore ufite imvi kumutwe wambaye agapira kajya gusa n’ivu uri kumwe n’umumama nawe ufite imvi wambaye nawe agapira k'umweru aho bari barimo bakora imyitozo ngororamubiri

Umukobwa w'umuganga wambaye imyenda yabigenewe ndetse afite n'imisatsi miremire, aho yari arimo aha umusaza ufite ubwanwa buririmo imvi ndetse wambaye n'agapira, imiti yo kunywa ndetse uyu musaza akaba yari afite n'amazi yo kunywesha imiti.

Umukecuru ufite ivi ndetse wambaye agasengeri. Aho yari arimo akora imyitozo ngororamubiri, ashyize amaboko hasi ku gatapi ndetse n'amaguru aryamye kugira ngo abashe kunanura imitsi ndetse n'imikaya.

Umuganga w'inzobere wambaye akuma gapima k’umutima utera kw’ijosi arimo aganiriza umukecuru ufite imvi ndetse n'amataratara amugira inama y'uburyo yakwita ku buzima bwe bwa buri munsi kugira agumye kugira ubuzima bwiza.

Umuganga w'inzobere wambaye imyenda y'umukara, aho yararimo avura umusaza, ndetse amwereka uburyo yagenda ananura imitsi ye kandi agorora imikaya, ndetse anamusabana n'uburyo yateza imbere ubuzima bwe.

Muganga w'inzobere wambaye akuma gapima uko umutima utera, ku ijosi arimo asunika umusaza ufite imvi, wicaye mu kagare arimo amujyana aho bamusuzumira ndetse anamutembereza.

Abapapa babiri bambaye amashati y'umweru ndetse n'amatiriningi y'imyitozo ngororamubiri ndetse bafite n'amazi yo kunywa y'Inyange ari mu gacupa mu ntoki za bo aho bari bari bishimiye kuba bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza wambaye amataratara ndetse ufite n’imvi wambaye ishati ya kaki aho yararimo asoma agatabo yibutsa ubwonko ndetse bikanamufasha no kongera imitekerereze ye atazajya yibagirwa vuba.

Umuganga w'inzobere wambaye agapfukamunwa ndetse akaba yambaye n'agashati k'akazi k'icyatsi aho yari afite igikoresho gipima ko umutima utera yagishyize ku gatuza k'umurwayi wari wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'ubururu kugira ngo yumve uko umutima we utera.

Umukecuru ufite imvi ku mutwe wambaye amataratara ndetse n'umupira usa nk'ubururu akaba afite amazi mu ntoki arimo akoresha anywa ibinini yandikiwe na muganga kugirango ngo yivure.

Abapapa ndetse bari kumwe n'abamama n'abana bisa nk'aho bishimye kandi bakaba bari basohokeye ahantu heza, hari ibiti ndetse n'akayaga keza kugira ngo baganire nk'umuryango.

Umuganga wabigize umwuga ndetse wambaye n'imyenda yabugenewe, aho arimo yereka umusaza ufite imvi uko yakoresha icyuma cyo guterura kugira ngo abashe kunanura imitsi n'imikaya bye.

Umusaza w’imvi wambaye amataratara ndetse n'umupira wumukara aho ari kumwe n'umukobwa ufite imisatsi yumukara ndetse n'umupira w'umuhondo arimo amusobanurira uburyo agomba kujya afatamo imiti ye ndetse kuruhande hari n'kirahure cy’amazi cyo kuyanywesha.

Umuganga w'inzobere wambaye imyenda y'akazi, akaba yari ari kumwe n'umusaza ufite imvi mu mutwe wambaye ishati nziza, aho yari arimo amuganiriza ku buryo yakwita ku buzima bwe bwa buri munsi.

Ikirangantego cyerekana repubulika y'u Rwanda, ndetse n'ikigo gishinzwe ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda, kikaba ndetse gifite n'inshingano zo gukurikirana amavuriro, ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuvuzi mu gihugu cy'u Rwanda.

Urubyiruko rwaturutse mu mpande zitandukanye rwambaye imipira y'umweru, rukaba rwicaye mu nzu mberabyombi aho imbere yarwo hari impuguke mu by'ubuzima irimo kubaganiriza ku ngingo zijyanye no gufata abarwayi neza, mu rwego rwo kubategura neza kuzavamo abaganga b'ejo hazaza.

Abantu bari mu rugendo, aho barimo bakangurira abantu kubigisha ko bashobora kwirinda kanseri y'ibere, babinyujije mu kwisuzumisha hakiri kare kuko ari indwara ivurwa kandi igakira neza.

Umunsi wahariwe wo kurwanya SIDA mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, ukaba warabereye mu mujyi wa Kigali mu nama iberamo ibiganiro, aho yari yahuje abantu bo mu ngeri zitandukanye barimo bigira hamwe uburyo barwanya kino cyorezo.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, aho bari bahuriye ahantu heza harimo intebe nyinshi zo kwicaraho ndetse bakaba bari mu nama, aho bigaga ku buryo bateza imbere ubuzima bw'abaturage.

Inama yabereye mu mujyi wa Kigali mu mwaka w’ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ikaba yari inama yo kwigisha abantu uburyo bakumira ndetse bakirinda ingaruka ziva mu kazi ko kwa muganga cyane cyane harimo n'ibyorezo.

Muri zimwe muri gahunda za leta harimo na gahunda yo kujya gupima abaturage uko bameze aho hari gahunda ko abantu babapima b'inzobere bagenda bambaye imyenda ibarinda kugira ngo batandura ibyorezo bari gukeka mu baturage.

Ibitaro bya Rwamagana ni bimwe mu bitaro byakiriye amahugurwa akomeye yahuzaga abaganga b'inzobere bo mu Rwanda ndetse n'abo hanze, aho bigiraga ku buryo bwiza bakoresha kugira ngo bateze ubuzima imbere.

Kimwe mu byumba byo mu bitaro akaba ari icyumba giteguye neza ndetse gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho harimo udutapi two kuryamaho ndetse ibikoresho byo kwirukankaho n'ibyuma byo guterura, bifasha abantu batandukanye kugorora umubiri.

Bimwe mu bikoresho biherereye mu ma laboratware ndetse bikaba bikoreshwa mu kubika ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo bitangirika, harimo nko kubika amaraso yo guha abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu gupima, biba bikeneye kubikwa ahantu hakonje.

Umukozi wambaye imyenda y'ubwirinzi yabigenewe, aho yambaye agapfukamunwa ndetse n'amashashi atwikira umubiri wose ndetse n'inkweto ndende, akaba yari ari mu bitaro, arimo yica udukoko twaba turimo aho yari ari.

Bimwe mu biro bakiriramo abarwayi bagiye batandukanye mu bitaro aho harimo igitanda cyiza kijyanye n'igihe ndetse hakaba harimo n'udukoresho muganga akoresha asuzuma abarwayi arimo yakira kugira abashe kumenya uburwayi barwaye.

Mu bitaro hifashishwa imashini nyinshi z'amoko atandukanye, mu buryo bwo gusuzuma ndetse no kwita ku buzima bw'umurwayi. Aha harimo imashini ipima uko umutima utera ndetse n'ubuzima bw'umutima muri rusange ndetse n'izindi.

Amaraso ari hamwe mu dushashi twayo, akaba ari ayo baha abantu mu gihe amaraso yabo yababanye makeya, ndetse akaba abikwa ahantu habugenewe, kugira ngo atangirika, kandi akaba abanza gupimwa kugira barebe ko nta kibazo afite.

Icyumba cyo mu bitaro cy'abarwayi akaba ari icyumba kinini kirimo ibitanda byinshi ndetse buri gitanda kikaba kiriho matela nziza kandi kikaba gifite iruhande rwacyo rido ibasha kumuhisha abandi ndetse akaba ari n'utuntu two guterekaho ibikoresho byabo.

Abakobwa bicaye ku ntebe benshi bategereje guhura na muganga ndetse hakaba hari umuganga ubahagaze imbere arimo abasobanurira uburyo bari buze kubakira ndetse n'ibyo bari bukenere.

Umuganga w'inzobere wambaye imyambaro y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, aho yari arimo asuzuma umurwayi we wari wicaye mu kagare, arimo areba nimba nta kibazo kindi yaba yahuye nacyo.

Ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, hakaba higanjemo ibyuma byo guterura ndetse n'amagare yo gukoresha mu myitozo ngororamubiri, kandi bkaba bifasha abantu kubananurira imitsi ndetse n'imikaya.

Bimwe mu bice byo mu bitaro aho hari koridoro ihuza ibice bigiye bitandukanye ndetse ikaba ifite inzugi nziza irimo amakaro kandi ikaba ifite n'amatara hejuru abasha kumurikira abagendamo.

Kimwe mu cyumba cyo mu bitaro gishyirwamo abarwayi baba mu bitaro, kikaba gifite ibitanda byinshi kandi byiza ndetsetafite supanete hejuru ya buri gitanda kugira ngo babashe kwirinda indwara zirimo malaraya.

Inzu y'ababyeyi materinete yubatse nziza ijyanye n'igihe ikaba ari inzu aba mama babyariramo ndetse bakanabasuzumiramo uko abana batwite bameze mbere y'uko babyara kandi ndetse ikaba ishobora kuba yayigumamo iminsi mike nyuma yo kubyara.

Ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka gasabo ndetse muri Kacyiru, hakaba hitwa ibitaro byitiriwe umwami fayisali. Akaba ari bimwe mu bitaro bitanga serivisi nziza kandi zihuse.

Kimwe mu cyumba giherereye mu bitaro kikaba ari icyumba kibamo abarwayi kikaba gifite ibitanda byinshi ndetse buri gitanda kikaba gishashe neza gifite intebe z'abarwaza ku ruhande ndetse n'amarido agenda abitandukanya.

Imwe mu nyubako zijyanye n'igihe yubatswe igeretse inshuro imwe akaba ari ikigo gikuriye itangwa ry'amaraso aho giherereye ku muhanda ndetse kikaba gifite amarangi y'umweru n'amatafari acyubatse.

Igikoresho cyo kwa muganga, gikoreshwa kugira ngo babashe kureba mo imbere h'umurwayi uburyo hameze, ndetse kikaba ari kimwe mu bikoresho bikunda kugaragara cyane, ku bitaro bikomeye kubera yuko gihenze.

Ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali, bikaba bizwi ku izina ry'ibitaro byitwa "Polyclinique de l'Etoile", bikaba bikorera muri etaje igeretse kabiri, kandi ndetse bikaba bitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye harimo, kuvura abana ndetse n'abagore batwite.

Icyumba cyo ku bitaro kigizwe n'ibitanda byinshi bimwe biryamyeho abarwayi, akaba ari ho bashyira abarwayi bitabwaho bari kuba mu bitaro kugira ngo bakomeze bahure n'abaganga babitaho umunsi ku munsi.

Imwe mu nzu irimo ibikoresho by'imyitozo ngororamubiri, akaba ari igice cyo mu bitaro kizwi nk'ahakorerwa ubugororangingo, ndetse bakaba bafite ibikoresho birimo amagare yo kunyonga ndetse n'ibyuma byo guterura.

Kimwe mu byumba by'ibagiro byo kwa muganga, gikoranye iterambere rigezwe aho gifite igitanda Kiza cyane ndetse kikaba gifite hejuru amatara amurika, aho kumena imyanda muri puberi ndetse n'imashini zikurikirana ubuzima bw'umurwayi.

Bimwe mu bitaro bijyanye n'igihe biherereye mu ntara y'iuburengerazuba bikaba bizwi nk'ibitaro bya gihundwe, bikaba biri muri bimwe mu bitanga serivisi zirimo, kuvura amaso ndetse n'izi mashini zikoresha mu kuyungurura amaraso mu gihe impyiko zitari kubishobora.

Bimwe mu bikoresho bijyanye n'igihe, hakaba harimo n'ibi ngibi bifasha gupima ubuzima bw'umurwayi uko buhagaze, cyane cyane bireba uko umutima utera ndetse n'umuvuduko w'amaraso kandi bigafasha gutanga impuruza mu gihe hari ikibazo kivutse.

Umuganga w'inzobere wambaye imyenda y'akazi, aho yari arimo apima umusaza ufite imvi, ndetse wambaye amataratara umuvuduko w'amaraso ku kaboko ke k'iburyo, ndetse arimo anamusobanurira uburyo yakwita ku buzima bwe.

Kimwe mu byumba byo mu bitaro, cyagenewe abana aho kirimo udutanda ndetse n'ibishushanyo, bibasha kurangaza abana baje kwivuza kugira ngo bataza kugira ubwoba cyangwa batinye imiti.

Ikigo kizwi nka isange one stop center giherereye muri remera rukoma kikaba kiri muri bimwe mu bigo byubatswe kugira ngo bifashe kugabanya ihohoterwa rikorerwa abantu rishingiye ku gitsina ndetse kikaba gifasha abantu bo mu ngeri zitandukanye biganjemo abahuye n'iryo hohoterwa.

Umuganga w'inzobere wambaye imyenda yabigenewe, arimo atera urukingo rw'urushinge umurwayi ku kaboko hejuru ndetse uyu muganga akaba yari yambaye n'udupfukantoki kugira ngo atamwanduza.

Abakozi bo mu bitaro, bambaye amataburiya y'umweru, aho bari bari mu bushakashatsi ndetse bambaye uturindantoki, barimo bareba niba ibintu barimo bakora byagira ikintu bibyara kidasanzwe.

Imwe mu nzu yubatse neza y'ibitaro bijyanye n'igihe aho ari inzu ikikijwe n'ubusitani ku mpande, agahanda gacamo imodoka ndetse ikaba yubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho ifite igisenge gisiga umwanya hacamo umwuka.

Bimwe mu bitaro bitanga gahunda zo gukurikirana ubuzima bw'abantu harimo ibizwi nka Frontier Diagnostic Center ,bikaba bifasha gusuzuma abantu ibizamini bitandukanye cyane cyane higanjemo ibikorwa mu muntu mo imbere.

Icyuma gishyirwamo umurwayi kugira ngo umuganga abashe kureba mu bice by'imbere by'umurwayi nimba nta kibazo cyaba kirimo, ndetse kikaba gikunze kugaragara ku bitaro bikomeye kubera ko gihenda.

Ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo hazwi nko ku gisimenti bikaba ari ibitaro bizwi ku izina rya polyclinique du plateaux bikaba bitanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi aho abaje babigana bashaka no gukoresha ubwishingizi bwabo mu kwivuza.

Umuganga w'inzobere wambaye agapfukamannwa ndetse n'itaburiya y'umweru n'agapfukantoki aho yari arimo asuzuma umurwayi we uryamye ku gatanda nawe wambaye agapfukamunwa k'umukara kugira ngo arebe nimba nta kibazo yaba afite kijyanye n'ubuzima.

Hamwe mu habikwa ibikoresho bigiye bitandukanye byo mu bitaro, hakaba ari ikizu kinini cyane kandi kikaba gifite amatara ndetse n'imiryango, ikirinda kugira ngo ibikoresho bibitsemo bibashe kubona umutekano uhagije.

Umurwayi urwariye mu bitaro aho yari aryamye ku gitanda yiyoroshe ibiringiti ndetse n'ishuka ndetse ku ruhande rwe hari imashini zipima ibipimo by'ubuzima bwe harimo kureba ko umutima utera ndetse n'umuvuduko w'amaraso.

Bimwe mu byumba byo mu bitaro bijyanye n'igihe, aho ari icyumba kirimo ibitanda byiza bigezweho ndetse kikaba gifite n'ibikoresho muganga ashobora gukoresha arimo asuzuma umurwayi wek ugira ngo arebe uburwayi bwe ikibutera.

Imwe mu nzu yubatse ijyanye n'igihe akaba ari ibitaro ndetse bikaba biherereye ahantu heza kubera bifite umuhanda wa kaburimbo imbere yabyo bituma umurwayi abasha kuhagera neza mu gihe aje kwivuza aje mu modoka.

Imwe mu inzu icuruza imiti yubatse mu buryo bugezweho rizwi ku izina rya progress pharmacy ikaba ari muri imwe wasangamo imiti igihe itandukanye ndetse bakaba banafunga imiti mutuyetajeri bitewe n'ubwoko bwayo.

Kimwe mu byumba byo mu bitaro hakaba hari icyumba gifite amabara meza yiganjemo ay'icyatsi ndetse n'umuhondo, kikaba gifite amatara hejuru meza acyana ndetse n'ibishushanyo birimo n'iby'akanyamasyo bifasha abana kurangara.

Umuganga w'inzobere wambaye imyenda y'akazi ufite akuma gapima uko umutima utera akaba yari kumwe n'umurwayi we w'umukecuru wambaye ibitenge aho yari arimo amuganiriza ndetse amusobanurira uburyo agiye kumusuzuma indwara arwaye.

Umusore uryamye mu ntebe ashyize ukuboko kwe ku misego bikaba bisa n'aho arwaye ndetse akaba afite n'imashini zimuri iruhande zimufasha kureba uko ubuzima bwe buhagaze kandi ndetse akaba asa nkaho arimo yoroherwa.

Muganga w'inzobere wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukantoki aho yari yashyize agakoresho kuri maneke kugira ngo yumve uko umwana uri mu nda atera ndetse kandi akaba yari arimo akoresha amatwi ye yumva uko bimeze.

Bimwe mu bikoresho biherereye mu bitaro, akaba ari ibitanda byo kuryamaho byabigenewe bijyanye n'igihe ndetse hakaba hari n'amapuberi yo gushyiramo imyanda n'amatara amurikira abarwayi.

Inzu icuruza imiti igezweho izwi ku izina rya progress pharmacy ikaba irimwe mu mazu afite imiti myinshi igiye itandukanye ndetse ikaba igiye ipanze mu tubati mu buryo bugiye butandukanye.

Inyubako y'ibitaro iba igizwe n'ibice byinshi, hari aho abarwayi bahurira n'abaganga, hari aho bakirira abantu barembye cyane, hari n'ibyumba abarwayi babamo mu gihe bari kwitabwaho baba mu bitaro.

Icyumba bapimiramo ibizamini byo kwa muganga kizwi ku izina rya laboratwari, akaba ari kimwe mu cyumba gifasha cyane ibitaro kubera ko bifasha abaganga kumenya udukoko turimo dutera uburwayi butandukanye.

Inzu icuruza imiti izwi kw’izina rya peniel pharmacy ikaba ari imwe mu mafarumasi akorana na medipura ndetse na MISUR kandi ikaba itanga imiti ijyanye n'igihe.

Bimwe mu byumba byo mu bitaro abarwayi barwarira. Hakaba ari bimwe mu byumba bijyanye n'igihe ndetse hakaba arimo ibitanda byiza bifite matela ndetse harimo n'amatara meza abamurikira ndetse n'imashini zikurikirana ubuzima bw'umurwayi, umunota ku wundi.

Umumama uryamye ku gitanda aho yari ari mu bitaro, ndetse yari kumwe n'umugabo we bamuherekeje kwihuza, muganga ndetse nawe arimo amusuzuma anamufata amaraso kugira ngo bage gupima uburwayi arwaye.

Ibitaro biherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye, mu murenge wa Ngoma, bikaba bizwi ku izina rya Sangwa, akaba ari bimwe mu bitaro bitanga serivisi zigiye zitandukanye, harimo izo kubaga, kubyaza, iz'abana ndetse n'izindi.

Zimwe mu ntemi ziherereye mu biro bakiramo abarwayi kwa muganga hakaba harimo intebe eshatu nziza zijyanye n'igihe ndetse na mudasobwa muganga akoresha kugira ngo abashe gushyira umurwayi muri sisiteme.

Umuganga w'inzobere wambaye imyenda yabugenewe aho arimo areba uko umurwayi amerewe nyuma yo kuba yari yatangiye gufata imiti ye mu bitaro ndetse anarikodinga amakuru y'uwo murwayi.

Abantu bari mu bitaro bambaye imyenda ipfuka umubiri wose ndetse n'udupfukamunwa two guhumekeramo aho bari baherereye ni mu bitaro mu barwayi bisa nk'aho hari icyorezo cyari cyarateye bari kwirinda kugira batandura.

Inzu ijyanye n'igihe izwi ku izina rya gimu, akaba ari inzu iberamo imyitozo ngororamubiri, aho irimo ibikoresho bitandukanye bifasha gukora iyo myitozo, harimo amagare yo kwirukankaho ndetse n'ibyuma byo guterura.

Umuganga w'inzobere w'umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye akuma gapima uburyo umutima utera ndetse n'itawuriya y'akazi, arimo apimira umwana w'umukobwa uburyo amaraso ye atembera mu mubiri, akoresheje agakoresho kabigenewe.

Inzu nini cyane ifite amatara hejuru ndetse irimo n'intebe nyinshi, ikaba ifite amadirishya afunguka ndetse bikaba bigaragara ko ari inzu ikunze kuberamo inama zigiye zitandukanye.

Ibitaro biherereye mu mujyi wa kigali bikaba biri mu nyubako igeretse inshuro ebyiri bikaba bizwi ku izina rya poyclinique de l'etoile bikaba biri mu bitanga serivisi zitandukanye harimo izo kubaga kubyaza zo kuvura abana ndetse n'izindi zinyuranye.

Umusore ndetse n'umumama w'abazungu, arimo anywa amazi meza ari mu icupa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kubafasha gukura imyanda mu mubiri wabo.

Agakapu karimo ibikoresho by'ibanze bikoreshwa mu kuvura umuntu byihutirwa kakaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo nk'amabande, amaga ndetse n'imiti igabanya uburibwe.

Umusore wambaye isengeri y'umukara yo mu imyitozo ngororamubiri aho yari yashyize amaboko hejuru y'umutwe kugira ngo abashe kunanura amaboko ndetse yahinnye n'amavi kugira ngo nayo abashe kuyagorora.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara ndetse wambaye agasengeri n'agakabutura bya siporo, aho yari yicaye hasi ndetse arambuye amaguru ye yombi, afatishije amaboko yombi kuri ayo maguru kugira ngo abashe kunanura imitsi ndetse n'imikaya.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye agasengeri k'umukara, ndetse n'ipantaro ya siporo, aho yari yicariye akaguru ke k'iburyo, arambuye ak'ibumoso, ndetse n'amaboko ye yayajyanye ku kaguru k'ibumoso, kugira ngo abashe kunanura imitsi, n'imikaya mu mubiri we.

Umukobwa urimo kunywa amazi nyuma no gukora imyitozo ngororamubiri ndetse akaba afite n'agasume ku rutugu rwe ko kwihanagurisha ibyuya yari yagize arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Agasanduku gafite ibara ry'icyatsi kakaba karimo ibikoresho by'ibanze bakoresha nyuma y'imyitozo ngororamubiri, kugira ngo babashe kuba bafasha uwayikoraga kugumya kumera neza ndetse n'ugize imvune bakaba nawe babasha kumufasha.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'ipantaro y'imyitozo ngororamubiri, wicaye ku gakeka kagenewe gukorerwaho imyitozo, aho afite imashini imbere ye ndetse n'utwuma two guterura, arimo akora imyitozo izwi ku izina rya kadeyo.

Umuganga w'inzobere, urimo uvura akaguru k'iburyo k'umukinnyi, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, aho yari arimo azengurutsa bande ku kirenge cye cy'iburyo, kugira ngo akirinde gukomeza guhura n'imvune, ndetse kigabanyiriza n'uburibwe.

Umuganga w'inzobere wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba yari arimo asuzuma akana kamwicaye imbere, aho yari yacanye igikoresho kimurika mu kanwa kugira ngo abashe gusuzuma ikibazo kari gafite mu kanwa.

Umugabo washyize akantu gakonjesha ku nkokora kugira ngo abashe kugabanya uburibwe yahuye na bwo ndetse binamufashe kunanura imitsi ndetse n'imikaya biherereye ku nkokora yo ku kuboko kwe kw'iburyo.

Umukinnyi wari wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agakabutura k'umukara aho yari ari kumwe n'umuganga arimo ananura ivi rye ry'iburyo nyuma yuko yarari gukina umupira w'amaguru kugira ngo amurinde ko yaza kugira imvune.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri we wambaye agapira k'umukara ndetse n'agakabutura k'imyitozo ngororamubiri aho yari arimo ananura amaboko ye ayajyanye imbere ndetse n'amaguru ye yasubije inyuma kugira ngo abashe kugorora imitsi ndetse n'ibikaya byose by'umubiri we.

Kimwe mu cyumba cyo gusuzumiramo akaba ari icyumba kijyanye n'igihe gifite intebe nziza bakoresha basuzuma ndetse kikaba gifite n'amatara ajyanye n'igihe umuganga akoresha kugira ngo abashe kureba umurwayi arimo asuzuma neza.

Umukobwa wari washyize akantu gakonjesha hagati y'ingingo z'ukuboko kw'iburyo nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugabanya uburibwe ndetse anahakande neza kugira ngo ananure imitsi n'imikaya biherereye.

Umusore wambaye agasengeri k'ibara ry'icyatsi, urimo usuka amazi ayakuye mu gacupa ku isura ye kugira ngo abashe gukonjesha umubiri we, nyuma yo kuba yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri agashyuha cyane.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, barimo bakora imyitozo ngororamubiri, aho bari bari kujya barambura amaguru yabo ndetse n'amaboko kugira ngo babashe kugorora imitsi n'imikaya byo mu mubiri wabo.

Ni imwe mu nzu zizwi ku izina rya jimu akaba ari inzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse zikaba zifite ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibyuma byo guterura, ibipirizo byo kwicaraho ndetse n'amagare yo kunyonga n'ibindi.

Umusore urimo ukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye agakabutura k'umukara ndetse n'agapira k'umutuku, aho arimo azamura ukuguru kwe kw'ibumoso, ukw'iburyo guteretse hasi ndetse amaboko ye afashe hasi kugira ngo abashe kunanura imitsi ndetse agorore n'imikaya.

Umuganga w'inzobere wari urimo upima ivi ry'umurwayi we, aho yari arimo arikoraho, kugira ngo arebe nimba nta kibazo cyaba kirimo, ndetse anamufasha kunanura imitsi, ndetse n'imikaya, biherereye mu kaguru ke.

Imiti, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura, gutanga ubutabazi bw'ibanze, ndetse no mu kwirinda ku muntu uri kuvura, bishobora kuboneka hirya no hino, mu ma farumasi atandukanye.

Agakapu kari mu ibara ry'umutuku kakaba karimo ibikoresho by'ibanze bikenerwa n'abantu bari mu myitozo ngororamubiri harimo nk'amabande yo kubashyiraho mu gihe bavunitse, imiti igabanya uburibwe ndetse n'amavuta yo kwisiga anyereza umubiri.

Umuganga w'inzobere wari urimo ushyira udupfuko ku ntoki z'umukinnyi wari uvuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kuba yamuvura ndetse anamurinde ko aza kugira ikindi kibazo.

Umusore wambaye isengeri yo mu ibara ry'umukara, arimo akora imyitozo ngororamubiri, aho ukuboko kwe kw'iburyo yagushyize inyuma y'umutwe ndetse ukw'ibumoso akagufatisha ku nkokora y'ukunboko kw'iburyo kugira ngo abashe kunanura imitsi n'imikaya byo mu maboko ye.

Umuti uri mu kajerekani k'umweru ndetse gafite icyapa cyanditseho sitopeni, akaba ari umuti umuntu ashyira ku ngingo, akawusigaho kugira ngo umufashe kugabanya ububabare ndetse unanure imikaya n'imitsi bihaherereye.

Umukobwa wambaye agasengeri karimo ibara ry'umutuku, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho yari yazamuye amaboko ye yombi hejuru y'umutwe, arimo ananura imitsi ndetse n'imikaya byo muri ayo maboko.

Umusore wambaye agapira k'umukara karimo uturongo tw'umweru aho yari ari kumwe na muganga w'umukobwa arimo amufasha guterura ibyuma kugira ngo abashe kongera imbaraga mu mikaya ye.

Kimwe mu byuma kimeze nk'ikizeru ndetse gifite ibara ry'umweru, kikaba ari icyuma kizwi ku izina rya siti sicani, umurwayi ajyamo kikabasha kureba nimba nta burwayi yaba afite mu bice by'imbere cyane cyane nko mu bwonko.

Iyo umuntu yahurije amaboko abiri inyuma ku mutwe ashobora kubikora arimo kwinanura mbere yuko atangira imyitozo cyangwa ayirangije mu buryo bwo kugira ngo yumve amerewe neza ndetse agire n'ubuzima bwiza. Bishoboka kandi ko ashobora kubikora mu gihe yagize ibibazo byinshi byamurenze.

Umukobwa urimo ugorora ukuguru, aho yari yahinnye ukuguru kwe kw'ibumoso, arambuye ukw'iburyo ndetse yashyize haruguru y' igitsinsino ku kirenge cy'ibumoso, akantu gakonjesha kugira ngo agabanye uburibwe.

Bimwe mu bituma abantu bagira ubuzima bwiza harimo gufatanya imyitozo ngororamubiri no kurya indyo yuzuye, harimo cyane cyane kurya ibikomoka ku mbuga n'imbuto, byiganjemo amakaroti, amacunga ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Umukobwa wambaye agasengeri ndetse n'ipantaro bya siporo, akaba yari yicaye hasi agonze ukuguru kwe kw'ibumoso ndetse arambuye n'ukw'iburyo kandi n'amaboko y'iburyo afatishije ukuguru kw'iburyo kugira ngo abashe kunanura imitsi n'imikaya byo mu mubiri we.

Umuganga w'inzobere wari urimo yigisha umusore uburyo yabasha kunanura ingingo ze ndetse agorora imitsi n'imikaya akoresheje akuma kabugenewe gafasha abarwayi kugenda.

Ibikoresho bikoreshwa n'abantu babuze ingingo zitandukanye bizwi ku izina ry'insimburangingo hakaba harimo ibyo umuntu ashyiramo igice cyasigaye nyuma yo gukata mo ukuguru akajya acyambara ndetse n'ibikoresho bikamufasha kugenda.

Rwanda judo federation, akaba ari ikigo gikuriye imikino ijyanye no kurwana, kikaba giherereye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse mu bintu gikora Hakaba Harimo kuyobora ndetse no gukurikirana iyi mikino ijyanye na judo.

Umusore urimo unywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari umusore ufite imikaya ibyimbye cyane, kandi akaba arimo anywa amazi kugira ngo ayungurure imyanda iri mu maraso ibashe gusohoka.

Umusore wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara n'inkweto za siporo aho yari yazamuye ukuguru kumwe kw'iburyo yagufatishije hejuru ku mbaho ndetse ukundi kw’ibumoso kwasigaye hasi kugira ngo abashe kugorora amaguru ye yombi.

umusore wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara urimo unywa amazi aruhuka mu myitozo ngororamubiri, ku ruhande rwe hari umukobwa wambaye agasengeri gasa nk'ivu ndetse n'gaakabutura k'umukara nawe urimo unanura imitsi ndetse n'imikaya.

Umukobwa urimo ukora imyitozo ngororamubiri wambaye agasengeri kajya gusa nk'ivu ndetse afite n'imisatsi y'umukara akaba yari yashyize akaboko ke k'iburyo inyuma y'umutwe ndetse nak'ibumoso yakazamuye hejuru akagafatisha akaboko k'iburyo kugira ngo abashe kunanura imitsi n'imikaya byo mu maboko.

Kimwe mu giti cyo mu ishyamba kikaba ari igiti gikoreshwa nk'umuti gakondo aho gifasha abantu batandukanye mu kuvura indwara zigiye zinyuranye harimo nk'indwara zo mu nda, umutwe ,inkorora ,ibicurane ndetse n'izindi.

Amavuta afunze mu ducupa tw'umuhondo ndetse dufite imifuniko ya shokora twanditseho foreva arowe vera jeri akaba ari amwe mu mavuta akorwa mu gikakarubamba ndetse akabafasha mu kurinda indwara z'uruhu ndetse no mu kuvura izindi zo ku ruhu.

Imwe mu miti ikomoka kubimera gakondo harimo izwi ku izina rya Aloe berry nectar ndetse na gel ikaba ari imwe iva mu gikakarubamba ikunzwe gukoreshwa n'abantu bo mu ngeri zitandukanye kugira ngo ibafashe koroshya indwara z'uruhu.

Imwe mu miti ifunze mu macupa meza izwi ku izina rya furiva aroberineta akaba ari umuti ukorwa mu gikakarubamba bakavangamo ibikomoka kuri pome, ukaba ufasha mu kuvura uruhu ndetse n'izindi ndwara.

Imwe mu miti gakondo irimo isekurwa bakoresheje isekuru ndetse n'akantu ko guhondesha gatoya kugira ngo babashe kuyitegura mu buryo bworoshye, umuntu yabasha kuyikoreshamo kugira ngo akire indwara runaka.

Umuti gakondo ufunze mu gacupa k'umweru ukaba uzwi ku izina rya forever bright tooth gel akaba ari umuti ukoreshwa mu koza amenyo aho ufasha mu kwica udukoko duherereye mu kanwa ndetse no mu kurinda impumuro mbi mu kanwa.

Umuti w'amenyo wifashishwa mu gusukura amenyo hakoreshejwe uburoso, ushobora kuwukoresha mu gitondo umuntu abyutse, amaze gufata amafunguro ya saa sita, amaze gufata amafunguro nimugoroba ndetse na nijoro, mbere yo kuryama.

Umusaza wambaye akagofero afite ubwanwa, akaba yari arimo atanga amakuru kuri televiziyo y'Igihugu cy'u Rwanda aho yarimo avuga ko byaba byiza banogeje uburyo ubuvuzi gakondo bukorwamo ndetse bakajya bagurisha n'imiti yemewe.

Umwe mu miti gakondo ufunzwe mu ishashi, akaba ari umwe ukomoka ku bimera ukunda gukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo ubafashe kubavura indwara zinyuranye, cyane cyane higanjemo indwara zo mu nda ziterwa n'inzoka.

Bumwe mu busitani buhinzemo imiti gakondo izwi ku izina ry'umuravumba hakaba ari hamwe mu bakunda gusurwa n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo babigireho ndetse kandi no mu miti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Akajerekani gatoya kari mu ibara rijya gusa nk'ivu karimo imiti gakondo ikorwa mu ma pome aho uyu muti ufasha abawukoresha kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse bigafasha no kugira ubuzima bwiza.

Imwe mu miti gakondo ifunzwe udukarito ndetse n'indi ifunzwe n'uducupa tw'umweru yanditseho forever ikaba ari imwe ikunzwe n'abantu batari bake kubera ibafasha mu kuvura indwara zigiye zinyuranye harimo nk'izo mu nda.

Imwe mu miti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo iyo basekura kugira ngo babashe kuyitegura ndetse n'indi bafungira mu ducupa dutoya, bakadufunga neza kugira ngo babashe kuyigeza ku bayikeneye.

Imiti gakondo irimo itegurwa, aho bakoresha akuma ko gusekura kugira ngo babashe kuyikuramo amafu ndetse banayikamuremo umutobe, ukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zivurwa n'iyi miti.

Imwe mu miti ikomoka ku bimera izwi ku izina rya Forever Be Poleni ndetse na Hani, ikaba ari imwe ikorwa mu biva mu nzuki aho ifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi kikaba kiri kumwe n'ibindi byinshi ahantu hameze nko mu ishyamba ndetse kikaba gikoreshwa nk'umuti gakondo aho gifasha kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo n'izo mu nda.

Kimwe mu byatsi by'ibimera gifite ibara ry'icyatsi, cyikaba gifasha abantu benshi batandukanye kubavura indwara zigiye zinyuranye, ndetse bakaba banagikoresha mu buryo butandukanye harimo nko kugikoresha ari ifu, ndetse no kugihekenya.

Kimwe mu byatsi by'ibimera bizwi ku izina ry'umuravumba, kikaba ari kimwe mu bifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, kubera gikoreshwa nk'umuti gakondo kandi umuntu akaba ashobora kugikoresha mu buryo butandukanye harimo ugiseye cya gisekuye.

Abantu bambaye udupira tw'icyatsi bari kumwe n'abandi barabaherekeje aho bari baje gusura ahantu hahinzwe ibiti ndetse n'ibyatsi bikoreshwa nk'ibiti gakondo bivugwa ko bemera yuko iyi miti ivura abantu batari bake.

Imwe mu miti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo izwi nka forever body care ikaba ari imiti isigwa ku ruhu kugira ngo ibashe kurubobeza ndetse irukize n'indwara zinyuranye.

Imwe mu miti gakondo harimo ifunze mu makarito ndetse n'iyindi iri mu ducupa tw'umweru n'indi ikikijwe n'amashashi ikaba ari imwe mu bikorwa mu bimera ndetse ikaba ifasha mu kuvura indwara zigiye zinyuranye.

Imwe mu miti ikoreshwa mu kuvura ifunze mu bikoresho bitandukanye harimo ifunze mu makarito amashashi ndetse n'amacupa aho ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane higanjemo iz'uruhu.

Bimwe mu bimera bikorwamo imiti gakondo, bikaba byiganjemo tangawizi ndetse n'ibitunguru, aho barimo babisya kugira ngo babashe kubigira amafu babasha gukoreshamo imiti kugira ngo ikore mu bwoko butandukanye.

Imurikagurisha ry'imiti gakondo aho bari bari gucuruza imiti mu bwoko butandukanye harimo ifunze mu makarito ,mu macupa ndetse rikaba rifite n'abantu benshi baje kuyigura kubera ko bibagirira akamaro.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi kikaba gifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse kikaba gikoreshwa nk'umuti gakondo mu bice byinshi aho gifasha mu kuvura n'indwara zo mu nda ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuti gakondo uri mu icupa ryiza ndetse ripfundikiye neza, wanditseho Forever Bee Honey, akaba ari umuti ukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse ukaba ukorwa mu bikomoka ku buki.

Imiti gakondo irakoreshwa ahantu henshi mu kuvura umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima, ariko n'ubwo ishobora kuvura umuntu agakira, ishobora no kugira ingaruka zitandukanye ku mubiri w'umuntu cyane ko iba itarapimwe ngo barebe ubuziranenge bwayo.

Bimwe mu biti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye hakaba harimo nk’izwi ku izina rya kapucine akaba ari imiti ushobora kuba wahekenya amababi nyuma bikagufasha kuba wakira indwara zitandukanye harimo n'izo mu nda.

Kimwe mu cyatsi gikoreshwa nk'umuti gakondo kizwi ku izina ry'umuravumba kikaba ari kimwe mu byatsi bikunda gukoreshwa hano mu Rwanda n'abantu bagiye batandukanye cyane kugira ngo kibafashe mu kuba cyabavura inkorora ndetse n'indwara zo mu nda.

Imwe mu miti ifunze mu ducupa tugiye dutandukanye harimo utw'icyatsi utwa move ndetse n'udusa nk'ivu, akaba ari imwe ikunze gukoreshwa kugira ngo ifashe mu kuvura indwara z'uruhu, ndetse no gutuma umuntu agira umubiri usa neza.

Kimwe mu cyatsi cy'ikimera gifite amababi y'icyatsi, kikaba gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, kandi bakaba bagisya cyangwa bakagiteka mu mazi kugira ngo babashe kugikoresha nk'umuti.

Kimwe mu bimera gikoreshwa nk'umuti gakondo, kikaba kizwi ku izina ry'umuravumba, akaba ari kimwe mu bifasha abantu batandukanye mu kubavura indwara zinyuranye harimo nk'indwara zo mu nda, inkorora ndetse n'izindi.

Kimwe mu giti cy'icyatsi giherereye ahantu hameze nk'ibihuru kikaba ari icyatsi gikunzwe gukoresha n'abantu batandukanye mu kuba bakora imiti gakondo ibafasha kuvura indwara zigiye zinyuranye hashobora kuba harimo n'inkorora.

Umuti gakondo ufunze mu kabido kari mu ibara ry'umweru ndetse gafite n'agafuniko k'umutuku kanditseho Forever Aloe Berry Nectar akaba ari umwe mu miti ikorwa mu bikomoka ku nzuki ndetse ugafasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umusore wambaye ishati y’umweru ifite igicupa kinini aho yari arimo ategura imiti gakondo arimo ayisya ndetse indi arimo ayifunga mu bikoresho bigiye bitandukanye kugirango abashe kuyigeza ku bayikenera.

Bimwe mu bimera biherereye mu busitani bwabigenewe bikaba bikora nk'imiti gakondo aho bifasha mu kuvura indwara zigiye zinyuranye kandi bakabasha no kubitanga mu buryo butandukanye nkaho babisya bakabitanga ari ifu.